Aba bantu bahagaze imbere y'imodoka, harimo umugabo wambaye ingofero y'umukara, harimo n'abambaye udupfukamunwa, harimo n'abambaye amajiri atukura, harimo n'umuzungu.

Umugabo ufite agakomere gato ku mazuru kandi umugabo ni inzobe, yakomeretse ku mutwe kandi ahantu yakomeretse harogoshe kandi aho yogoshe bahashyize n'igipfuko, uyu mugabo ni inzobe.

Ahangaha hari abagabo bahagaze ku kabaraza k'inzu, inzu isize irangi ry'ubururu n'umweru, kandi aba bagabo harimo uwambaye umupira w'ubururu n'ingofero y'umukara n'ipantaro y'umukara, n'uwambaye ijire y'ubururu.

Uyu mugore ari kwita kuri uyu mwana, uyu mugore yambaye umupira w'umuhondo n'umwana yambara agapira k'umuhondo, hakabamo umugabo yambaye umupira w'ubururu n'ijire y'umukara hakaba harimo n'umupolisi.

Aba bantu bicaye munzu y'inama; hagati y'abantu harimo umugabo uhagaze wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, kandi aha hantu harimo umudamu witwikirije agatambaro k'umuhondo.

Aha ngaha, niho muganga asuzumira abarwayi, hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru ufite ibisuko birebire mu mugongo, hakaba hari umurwayi wicaye ku ntebe ateze agatambaro k'umukara, imbere yabo hateye ameza ariho igitambaro gisa n'ubururu.

Aba bantu: harimo abahagaze, harimo abasutamye imbere yabo bafite amacupa y'amazi mu ntoki, harimo abazungu bafite imisatsi, harimo n'abagabo bambaye amashati y'umweru, harimo n'uwambaye itaburiya.

Aba bantu ni bane harimo: umugabo umwe, hakabamo n'abadamu batatu, hari n'umudamu umwe wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, hakaba harimo n'undi ufite impapuro mu ntoki.

Iyi nzu y'ivuriro isize irangi ry'ubururu, kandi kuri iri vuriro hicayeho abagore babiri ku ntebe imwe, indi ntebe nayo yicayeho undi muntu umwe, hakaba handitseho Girabuzima.

Inzu nziza isize irangi ry'ubururu imbere y'iyo nzu hari kandagira ukarabe iteretse impande y'agapupeli gasize irangi ry'ubururu n'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, impande y'iyo kandagira ukarabe hateye umukindo, imbere y'iyo nzu hahagaze umugore ufite umusatsi wa natirere, wambaye agasharupe mu ijosi n'igitenge ndetse ucigatiye na malete mu kuboko kw'ibumoso.

Iki cyumba cyo kuvuriramo harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ari kuvura umwana, umwana ateruwe n'umubyeyi yambaye ishati y'umuhondo n'akagofero ko ku mutwe, kandi muri iki cyumba hari ameza hariho ibitabo n'ikaramu.